Farumasi nziza cyane ni farumasi irimo imiti itandukanye. Imwe mu miti idufasha kuzanzamuka tukagira ubuzima bwiza mu gihe twacitse intege, twabuze imbaraga, twagize umuriro.

Umumama uri muri farumasi nziza cyane, ni umumama wambaye itaburiya y'umweru ufite imiti. Ni miti myiza cyane dukunze kwivuza, ni ya miti idufasha kugira ngo ubuzima bwacu bubeho neza, buzire umuze.

Umumama wambaye itaburiya, ni umumama w'umuforomokazi uri muri farumasi irimo imiti myinshi itandukanye, uvura abantu bakavura abantu bakamera neza.

Ibitaro byiza cyane ni ibitaro bya Ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze ni ibitaro byubatse neza bikikijwe ibyuma ni ibitaro wa kivurizaho mu gihe urembye.

Amasaka meza cyane, ni amasaka akiri mabisi atari yuma, amasaka ni zimwe mu mbuto zidufasha kubona ibyo kunywa bitandukanye, harimo igikoma, ubushera, inzoga.

Igiti kinini cyane, ni igiti kigandaye, ni igiti kiri muri bimwe bidufasha kuduha umuyaga mwiza, wa muyaga uhumeka umwuka mubi ukinjiza umwuka mwiza cyane, ku buryo ubuzima bwawe bumera neza.

Imbuto y' amashu meza cyane ni amashu, akiri mu butaka ni ya mashu, atari yera akiri kuzana akabuto gatoya kishu, n' ishu ryiza cyane rishimishje, risa neza rifite amababi meza manini.

Imboga nziza cyane mboga zisa neza z'icyatsi ziteye neza, imboga nziza ziri mu birinda indwara. Ni byiza gutera imboga kugira ngo tujye twirinda indwara zitandukanye.

Umurima utemo soya. Ni soya nziza zimwe mu mbuto zidufasha kubona igikoma cyiza cyane. Ni igikoma kiba gisa neza soya wakoramo isosi nziza cyane.